Abantu benshi babyukiye mu nama, aho baje biteze ko bagiye gusobanurirwa uburyo bwiza bazajya bahamo serivisi ababagana ndetse n'uburyo bajya batanga serivisi zihuse kubabagana.

Mu Rwanda, mu mujyi wa Kigali hateraniye inama ihuza abantu bava mu bihugu bitandukanye, harimo abazungu ndetse n'abirabura, aho bari kwiga uburyo bahuza umubano wabo ukaba mwiza cyane.

Ubukangurambaga bukomeje kugenda bwiyongera, aho bakomeje kugenda bategura inama zihuriza hamwe abantu bakuru ndetse n'urubyiruko, bakiga uburyo bashobora gukomeza bagenda biteza imbere gake gake kandi bafatanyije.

Mu rwanda hakomeje kwiyongera ubukangurambaga aho inama zigenda ziba zigahuza no mu ngeri zitandukanye bakicara bakaganirira hamwe ku byatuma u rwanda rutera imbere kandi zihakabaho inama zibera mu munzu zabugenewe zo kuberamo inama.

Mu Rwanda hakomeje guteranira inama zitandukanye, aho zirimo zibera mu byumba bijyanye n'igihe, aho bifite amatara agezweho ndetse n'abayitabiye bakabasha kubaha mudasobwa ndetse n'udukayi two kwandikamo kandi haba harimo abantu benshi.

Ubukangurambaga mu gihugu cy'u Rwanda bukomeje kugenda butera imbere, aho abantu batandukanye bitabira inama ndetse zikaba zikunze kuba zirimo abashinzwe umutekano w'urubyiruko ndetse n'abaturage muri rusange, akaba ari inama zigira hamwe uburyo bateza umutekano imbere mu gihugu cy'u Rwanda.

Mu Rwanda ubukangurambaga bukomeje kugenda bwiyongera, aho hakomejwe kugenda hategura inama zihuza abantu b'ingeri zitandukanye kugira ngo bigire hamwe uburyo babasha kwiteza imbere.

Mu rwanda hakomeje ubukangurambaga aho inama zitandukanye zikomeje kugenda zihabera kandi zikaba zitegurwa mu buryo bugezweho aho buri muntu aba afite mudasobwa afite amazi yo kunywa ndetse anicaye ahantu heza.

Inama y'igitaraganya yateraniye muri hoteri Mariyoti, aho bagiye kwiga ku kibazo cyugarije urubyiruko, aho icyo kibazo ari icyo kugabanya inda ziterwa abakobwa bakiri batoya zitateganyijwe.

Buri nama iri kuba haba harimo umuntu bita umwanditsi, akaba ari umuntu ukurikirana iyo nama, ndetse akandika mu magambo make ibintu by'ingenzi byavugiwe muri iyo nama.

Ubukangurambaga burakomeje mu Mujyi wa Kigali, aho inama zihuza abantu bo mu ngeri zitandukanye, bakomeje kugenda biga ku kibazo cy'uburyo bateza imbere imiyoborere myiza, aho abaturage bisanga muri gahunda za Leta.

Mu Rwanda mu mujyi wa Kigali gahunda y'ubukangurambaga ikomeje kwiyongera, aho bakomeje kugenda bategura inama zihuza abantu bo mu ngeri zitandukanye ndetse abazitabira bazana mudasobwa kugira ngo bazabafashe gufata amakuru bakuye mu nama kandi bakavuga ko zibafasha mu iterambere.

Mu Rwanda hakomeje guteranira inama zinyuranye ndetse zikaba zigira hamwe ibibazo biri muri sosiyete ndetse n'uburyo babikemura; kandi izi nama zikomeje kugenda zibera mu nzu zabugenewe ziberamo inama, aho haba harimo ibyangombwa byose harimo intebe, ameza, mudasobwa ndetse n'amazi yo kunywa.

Urubyiruko rwari rwateraniye hamwe rurimo, rwereka abandi bantu umushinga rwakoze, wo gufasha abantu kubaka ubuzima bwiza bwishimye ndetse no gufasha gukwirakwiza amakuru mu buzima.

Abantu bakoresha imihanda ndetse n'imodoka bakomeje guhurizwa hamwe kugira basobanurirwe neza, uburyo bwiza bazajya bakoresha mu gihe bari kwambuka umuhanda, cyangwa mu gihe bateze imodoka kugira ngo babashe gucunga ibintu byabo neza.

Kuri uyu munsi ku wa gatanu, habaye inama yahuje abantu bigira hamwe ku bibazo bimwe na bimwe biri kugenda bigaragara mu ma serivisi yo mu bucuruzi, aho bagiye bakiga ku kibazo cy'ibicuruzwa bikomeje kwiyongera, bareba uko bagikemura abaturage biteze ko bizatanga umusaruro ukomeye uzadufasha mu iterambere mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Mu Rwanda mu mujyi wa Kigali hakomeje guteranira inama zihuza abantu b'ingeri zose, aho bakomeje kwigira hamwe uburyo bateza umujyi wa Kigali cyane cyane mu bijyanye no kugumya kuba ari umujyi ufite ibidukikije bifite isuku nziza cyane.

Abantu batanga amaserivisi ajyanye n'ubukerarugendo ndetse n'amahoteri bari hamwe barimo baganira ku buryo bakakira ababagana neza ndetse bakagumya no guteza imbere umwuga wabo.

Mu Rwanda amahugurwa arakomeje, aho hakomeje guteranira inama zihuza abantu bo mu ngeri zitandukanye, aho bagenda bigira hamwe uburyo bagumya guteza imbere igihugu ndetse n'abakibamo muri rusange.

Mu mujyi wa kigali habereye inama ikomeye cyane, aho bakomeje kwishimira uburyo sida ikomeje kugabanyuka bitewe n'uko Abanyarwanda benshi babasha kubona imiti igabanya ubukana bwayo ku mafaranga make kandi ibegereye.

Mu Rwanda hakomeje kubera inama zitandukanye aho abantu bo mu ngeri zitandukanye bicara hamwe bakiga ku kibazo runaka, ndetse zino nama zirimo zibera ahantu hakozwe mu buryo bugezweho aho harimo intebe abatumiwe baza bakicaramo ndetse n'indangururamajwi.

Mu Rwanda hakomeje kuba ubukangurambaga, aho inama zitandukanye zikomeje kugenda zihabera, bakagenda biga mu buryo bateza igihugu cy'u Rwanda imbere muri make kandi zikaba ari inama zibera ahabugenewe, aho zibera mu byumba byiza bijyanye n'igihe.

Ubukangurambaga bukomeje kugenda butera imbere cyane aho hakomeje kugenda hategurwa inama nyinshi aho bateranyiriza abantu batanga ama serivisi hamwe bakabigisha uburyo bwiza bagomba kujya bakiramo ababagana.

Mu Rwanda umujyi wa Kigali hakomeje kubera inama zitandukanye, aho bahura bakiga ibyateza imbere igihugu cy'u rwanda cyane cyane mu bijyanye n'amadini aho biga ku buryo yabasha gukorera hamwe ndetse basenyera umugozi umwe.

Zimwe muri gahunda za leta y'u Rwanda harimo na gahunda bise Kigali yacu aho bagenda bigisha urubyiruko ndetse n'abantu bakuze, uburyo babungabunga umujyi wa Kigali cyane cyane mu bintu bijyanye n'isuku ndetse n'iterambere kugira ngo bakomeze kuza ku isonga mu mijyi ihagaze neza.

Mu nzu mberabyombi zo mu Mujyi wa Kigali, hakomeje kugenda hateranira inama zitandukanye ndetse zikaba zihuza abantu b'ingeri zose, aho bagenda bigira hamwe uburyo batezamo igihugu cy'u Rwanda imbere kandi bakaba babahaye amazi yo kunywa ndetse n'amaji kugira ngo bataza kugira icyaka.

Mu Rwanda ku bufatanye na leta n'ibigo by'ubucuruzi, bakomeje amahugurwa aho bakomeje kugenda bahugurira, abatanga amaserivisi ahantu hatandukanye uburyo bwiza bwo gutangamo amaserivisi ndetse n'ubwo kwakira ababagana.

Inama zikomeje kuba aho abantu bicara bafite mudasobwa ndetse bananywa amazi kugira ngo bataruha bakaganira ku bintu runaka ndetse abantu babyitabira bavuga y'uko bahigira byinshi.

Inama zikomeje guteranira mu mujyi wa Kigali aho ba rwiyemezamirimo baganira na ba rwiyemezamirimo bandi bashyashya, bakabigisha uburyo bateza ishoramari ryabo imbere kandi byihuse.

Mu Rwanda hakomeje kubera inama zitandukanye, aho abantu bo mu ngeri zose bahurira hamwe bakicara bakiga ku bintu runaka bigiye bitandukanye, ndetse abantu bakaba bakorera inama mu byumba byabugenewe, aho harimo ibikoresho bibakonjesha, utwuma twongera amajwi ndetse bakaba babahaye n'utuntu tw'utuji two kunywa.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe umusoro n'amahoro mu gihugu cy'u Rwanda cyatangije ku mugaragaro gahunda y'ukwezi ko gushima abasora ndetse kikaba gifite insanganyamatsiko igira iti dufatanye kuzahura ubukungu kandi na none umusoro wawe kandi uzakomeza kugira uruhare mu kubaka u Rwanda twifuza.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe umusoro n'amahoro mu gihugu cy'u Rwanda, kirimo cyibutsa abantu ko uyu munsi ku itariki mirongo itatu n'imwe z' ukwa cumi n'abiri mu mwaka ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Ari wo munsi wa nyuma wo kwishyura ndetse no kumenyekanisha imisoro y'imitungo itimukanwa.

Inzu nyinshi mu mujyi wa kigali zikomeje kubakwa mu buryo bugezweho, aho buri nzu iba itegetswe gusiga umwanya aho ibinyabiziga bishobora kuba byahagaramo, ndetse n'abakorera muri aya mazu bavuga yuko byakomeje kubafasha cyane, kuko bituma abaguzi babo bahagera mu buryo bworoshye.

Serivisi izwi ku izina ry'Irembo, akaba ari imwe mu ma serivisi akorerwa kuri murandasi. Umuntu akoresha telefoni ngendanwa cyangwa za mudasobwa, akaba ashobora kwiyakira ibyemezo bimwe na bimwe bitamusabye kujya ku murenge, harimo n'icyemezo cy'ahantu atuye ndetse n'icy'igihe yavukiye.

Ikigo ishinzwe iterambere mu Rwanda gikomeje gufasha abanyarwanda benshi mu kubongera umuvuduko w'iterambere, aho kibaha amasomo ajyanye n'uburyo batangira ubucuruzi bwabo kikabafasha kubona igishoro cyo gukoresha, ndetse kikabaha n'amahugurwa yisumbuye mu buryo bworoshye batezamo imbere ubucuruzi bwawe.

Mu mujyi wa kigali ahazwi nko kwa makuza muri ka free zone hakomeje kugaragara ko abantu benshi bakomeje kuhishimira aho bahahurira bakahicara ndetse bakanaganira.

Iminara ni imwe mu gikoresho cy'itumanaho kigezweho, aho gifasha mu kohereza interineti ku bantu batandukanye ndetse kikanihutisha uburyo bw'itumanaho cyane cyane rikoresha amatelefone ndetse na mudasobwa.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara iterambere ryihuse mu ikoreshwa ry'ikoranabuhanga, aho no mu bigo by'amashuri hageze gahunda yo kwigisha buri mwana uburyo bwo gukoresha mudasobwa kugira ngo abashe guteza imbere imyigire ye kandi yunguke n'ubumenyi bwinshi butandukanye.

ikigo cy'igihugu gishinzwe umusoro n'amahoro kirimo gisobanurira abantu barebwa no kwishyura umusoro .Kivuga yuko umuntu wese wahawe uburenganzira bwo kwitwa nyir umutungo utimukanwa ,agahabwa ndetse n'icyangombwa cy'uwo mutungo muri uyu mwaka nawe afite inshingano zo kuwusorera.

Gahunda yo guteza ubukerarugendo mu Rwanda izwi ku izina rya Visit Rwanda yageze no mu gihugu cy'u Budage aho yasinyishije ikipe izwi ku izina rya Bayern Munichen, ndetse ikaba ikomeje no kugenda igaragara cyane mu mikino y'amaboko izwi ku izina rya Bar aho bikomeje kuvugwa ko Visit Rwanda iri gutera imbere.

iIangazo ry'igihugu cy'u rwanda gishinzwe imisoro n'amahoro rikomeza ryibutsa abacuruzi ko bagomba kumenyekanisha imisoro yabo batarengeje igihe aho babibutsaga ko n'abagomba gutangavansi y'umusoro ku nyungu bagomba kubyishyura batarengeje uyu munsi ntarengwa.

Mu Rwanda hakomeje gutera imbere, aho ahazwi nk'ibiro hakomeje kugira uburyo bwiza hagomba kuba hagaragaramo, harimo kuba harimo intebe zijyanye n'igihe, aho umuntu yicara akumva atuje neza ndetse harimo amatara meza cyane ndetse n'ameza yo kwandikiraho.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara iterambere ryihuse mu bikoresho bikoresha umuriro w'amashanyarazi aho abantu bo mu bihugu bitandukanye bahurira hamwe bagahugurana ndetse bakungurana n'ubumenyi mu buryo bino bikoresho babasha kubibyazamo umusaruro.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara iterambere muri gahunda z'ikoranabuhanga aho urubyiruko rwabashijejwe kwigisha uburyo bakoresha mudasobwa ndetse n'utwuma two mu matwi twabugenewe kugira ngo babashe kumva indimi zitandukanye.

Muri iyi myaka aho ikoranabuhanga ndetse n'ikoreshwa rya murandasi bikomeje kugenda byihuta, hakomeje kugaragara ukwiyongera kw'iminara itanga interinete ndetse n'ikizwi nk'amarizo, akaba ari iminara ifasha abantu kuba babasha kuvugana bakoresheje amatelefone muburyo bwihuse kandi bworoshye.

Ibikoresho by'itumanaho bizwi cyane ku izina ry'iminara, ni ibikoresho bakunda gushyira ahantu mu misozi kugirango bibashe kohereza interineti ndetse na murandasi; abantu babashe kuyibonaho mu bice bitandukanye.

Ku matariki ya mbere gicurasi muri bibiri na makumyabiri na kabiri, habaye umunsi mpuzamahanga w'umurimo, aho wari ufite intego ko ahazaza h'umurimo ari intego dusangiye twese kandi minisiteri ishinzwe mu nshingano umurimo yatwibukije abantu bose gukora cyane.

Zimwe muri gahunda za Leta zo guteza imbere ubukerarugendo mu gihugu cy'u Rwanda, harimo izwi ku izina rya visit Rwanda mu ndimi z'amahanga, aho mu kinyarwanda bishaka kuvuga ngo sura u Rwanda, akaba ari gahunda yabashije kugera mu makipe akina umupira w'amaguru, harimo ikipe izwi ku izina rya Arsenal, Paris Saint Germain ndetse na Bayern Munich.

Uyu munsi kuri radiyo Rwanda hari ikiganiro cy'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro kikaba kiraza gucaho saa mbiri n'iminota cumi n'itanu ndetse kikaba ari ikiganiro kiraza kwiga ku buryo ipatanti y'igihembwe cya nyuma izatangwa.

Mu Rwanda hageze uburyo bwiza bworohereza abantu gushaka serivisi zimwe na zimwe bakeneraga bitabasabye gutonda umurongo, aho ushobora kugura umuriro ukoresheje murandasi cyangwa ukaba wakishyura amazi bitagusabye kujya gutonda umurongo.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe umusoro n'amahoro kirimo gitanga akazi mu myanya yagiye itandukanye, ndetse akaba ari akazi kazarangira gutangwa ku itariki enye z'ukwa cumi n'abiri muri bibiri na makumyabiri na kane. Aho harimo umwanya umwe w'umuntu ucunga amadata ndetse n'undi mwanya umwe w'umutekinisiye mu guteza imbere imikorere y'ikigo.

Ikigo cy'igihugu cyo mu Rwanda gishinzwe abinjira n'abasohoka, gikomeje gushyiraho uburyo bw'ikoranabuhanga, aho umuntu akoresheje murandasi, ashobora guca ku rubuga rwabo akaba yabasha kubona amakuru ajyanye no kwinjira cyangwa gusohoka mu gihugu ndetse bagashyiraho n'amakuru ajyanye n'ubucuruzi.

Imwe muri gahunda ya Leta y'u Rwanda yo kugeza serivisi yayo ku baturarwanda mu buryo bworoshye, izwi nka serivisi y'irembo. Akaba ari serivisi ikorera kuri murandasi ndetse umuntu akaba yabasha kuyigeraho akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga harimo gukoresha mudasobwa ndetse na telefoni ngendanwa, ikaba ari gahunda yakomeje kugenda ifasha abantu kubona serivisi zihuse.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, kiributsa abashinzwe kumenyekanisha imisoro no kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa ko hasigaye iminsi itatu kugira ngo gihagarare ndetse babibutsa ko kwishyura ku gihe bibafasha kubarinda gucibwa amande.

Mu rwanda gahunda yo guteza imbere ubukerarugendo izwi ku izina rya buseti Rwanda ikomeje gutera imbere cyane, aho abantu benshi bakomeje kuza basura ibikorwa byinshi biri mu Rwanda harimo nk'ahantu hazwi nka kigali convention center ndetse no gusura ibirunga.

Zimwe muri gahunda za Leta zigezweho harimo no gushyiraho udushami tw'amabanki, aho abakiriya batandukanye bashobora kubona serivisi mu buryo buboroheye, kandi bidasabye ko bajya gutonda umurongo ku dushami tw'izo banki.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara imyubakire iteye imbere, aho mu mabiro aberamo inama zitandukanye hagiye harimo amatara meza ndetse n'imitako myiza cyane, aho ikurura benshi.

Ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe iterambere, cyagaragaje uburyo gifasha abantu gutangira ishoramari ryabo cyane cyane mu ishoramari rijyanye n'ikoranabuhanga kuko ari ho isi iri kugana mu gihe kirimo cyiza.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu gihugu cy'u Rwanda, gikomeje kwibutsa abatanga imisoro n'amahoro ku mitungo ndetse no ku musoro w'ipatante, ko habura iminsi ibiri gusa kugira ngo iki gikorwa kirangire ndetse kinabibutsa ko iyo utinze uhura n'ibihano.

M'u Rwanda ikigo gishinzwe gutanga akazi ndetse no gukurikirana abakozi kizwi nka mifotra, cyazanye gahunda yo ku ikoranabuhanga aho umuntu akoresha telefone ngendanwa cya mudasobwa, akajya ku rubuga rwabo akaba yabasha kumenya imyanya y'akazi ihari ndetse akaba yanasaba kuba yayijyamo.

Ku munsi mukuru w'abakozi minisiteri ishinzwe mu nshingano abakozi n'amaserivisi yifurije abakozi bose kugira umunsi mwiza ndetse n'akaruhuko k'akazi.

Bimwe mu bikoresho by'itumanaho bizwi ku izina ry'iminara, akaba ari ibikoresho bikunda gushyirwa ahantu hitaruye ku misozi, kugira ngo bibashe koherereza abantu bo mu bice bitandukanye interinete ndetse na netiwake.

Bimwe mu bikoresho by'itumanaho bizwi ku izina ry'umunara, kikaba gifasha mu gukwirakwiza amarezo ahantu hagiye hatandukanye kandi kikaba gikunze gushyirwa ahantu hejuru cyane kandi hitaruye kugira ngo kibashe gukora icyo gishinzwe neza.

Mu Rwanda iterambere ry'imihanda rikomeje kwiyongera cyane aho kuri buri muhanda haba hari amatara ndetse hakaba hari n'ibyapa biburira abantu batwara ibinyabiziga bibabwira uko imbere mu muhanda byifashe.

Mu Rwanda ibikoresho bizwi nk'amapironi, bifasha mu gukwirakwiza umuriro mu duce dutandukanye tw'u Rwanda bikomeje kuza ku isonga, mu bintu bifasha Abaturarwanda benshi kubagezaho umuriro muburyo bwiza kandi bworoshye.

Ubwishingizi bukomeye mu gihugu cy'u Rwanda, buzwi ku izina rya Buritame inshuwarensi ni bumwe mu bwishingizi bukorera ahantu hajyanye n'igihe aho bufite umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ibyuma bikwirakwiza murandasi, ndetse bukaba bunafite ibyuma bibasha kuyungurura umwuka.

Abaturarwanda bakomeje kwishimira ko iyubakwa ry'imihanda myiza kandi igezweho ifite n'ibyapa, byagabanyije impanuka zaberaga mu muhanda kubera imihanda yabaye myiza ndetse bavuga yuko yabafashije no mu kwihuta kw'iterambere ryabo kubera yuko babasha kugenderana mu buryo bworoheje.

Imihanda ya kaburimbo no mu bice byinshi by'u Rwanda bikomeje kugaragara ko ku mpande zayo hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hari ibiti bifasha kongera umwuka ndetse n'amatara ndetse hari n'ibyapa biyobora.

Mu rwanda hakomeje kugaragara kwiyongera kw'ibikoresho bizwi ku izina rya taransifo, akaba ari ibikoresho bishyirwa ku minara yabugenewe, aho bifasha mu kuregera umuriro ugera mu ngo z'abaturage ndetse bikarinda ko wagira n'ibyo wangiza.

Mu nkengero z'imihanda ya kaburimbo, hakomeje kugenda hagaragara amapironi atwara umuriro ari muri ibyo bice ndetse abayabona bavuga yuko nta kibazo abateje, kuko ari ahantu hitaruye.

Ibyuma bikwirakwiza amashanyarazi mu gihugu cy'u Rwanda bikunze kwitwa amapironi, ni bimwe mu bifasha kohereza umuriro mu bice bitandukanye kandi ndetse bikaba binashyirwa ahantu hitaruye, kugira ngo birinde kuba byagira ibibazo biteza harimo nk'iby'impanuka.

Bamwe mu bakora umuriro w'amashanyarazi, baba bafite ibyuma bambara ku birenge bikabafasha kurira amapoto kugira ngo bajye gukemura ikibazo kiba cyabaye mu muriro, bakomeje kuvuga yuko gukora umuriro bikomeje kujya bibihutira kubera batakigira imbogamizi z'uburyo bwo kurira.

Bimwe mu bikoresho bikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi bikomeje gushyirwa ahantu hitaruye, ndetse akaba ari ahantu heza cyane cyane ko ari ahantu mu biti aho abana batapfa kwegera ngo bahakinire.

Bimwe mu bikoresho bifasha gukwirakwiza, umuro bikomeje kugenda, byiyongera, ndetse bikaba bigumya gushyirwa ahantu hitaruye, inzu z'abaturage kugira ngo bitazaba byateza, ibibazo bitandukanye harimo nk'inkongi z'umuriro ndetse n'impanuka zindi.

Mu buryo bugezweho bwo gutanga umuriro w'amashanyarazi hari ibikoresho bigezweho bijyanye n'igihe harimo amapiloni ndetse n'ibindi bita amatransfo bigabanya ndetse bikanongera umuriro bifasha gutuma umuriro ugera ku bantu benshi ku gihe kandi ntugire ibyo wangiza.

Bimwe mu bikoresho bitwara umuriro w'amashanyarazi bizwi ku izina ry'amapironi bikomeje gushyirwa ahantu hitaruye abantu cyane cyane hegereye ibiti ndetse no mu mashyamba kugira ngo barinde kuba byagira ibibazo biteza mu bantu.

Mu Rwanda bikomeje kugaragara yuko iterambere rikomeje kwihuta bitewe nuko umuriro wegerejwe abaturage, aho abaturarwanda benshi bakomeje kuvuga yuko kuba bafite ingufu z'umuriro byakomeje kugenda bibafasha mu iterambere ryihuse, kuko ubungubu basigaye bafite n'ibikoresho bibafasha bikoresha umuriro, urugero harimo nk'ibikoresho bya mudasobwa.

Amafoto akwirakwiza umuriro mu mujyi wa Kigali akomeje gufasha ingo nyinshi zihegereye kuba zabona umuriro mu buryo buzoroheye ndetse aya mapoto akaba ari ahantu heza hadateje ikibazo.

Mu mujyi wa kigali imyubakire ikomeje kugenda itera imbere, aho abantu bubaka amazu ajyanye n'igihe kandi agezweho kandi na none akaba ari amazu aherereye ahantu hateye imbere, kubera haba haragejejwe umuriro w'amashanyarazi.

cyapa kiri mu mujyi wa kigali mu karere ka nyarugenge ahazwi nka gikondo kikaba ari icyapa kigizwe n'amabara y'umweru ndetse kikaba kirimo ibimenyetso byanditsemo inyuguti za R,A,E na G bikaba bisobanuye REG akaba ari ikigo gikwirakwiza ingufu z'umuriro w'amashanyarazi mu rwanda

Mu mujyi wa Kigali hazwi nka Kimisagara hakomeje kugaragara akavuyo k'amasinga ndetse n'ibiyafata, aho abahatuye bafite impungenge ko bishobora kuba byateza impanuka zitunguranye zitewe n'umuriro.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara amapoto menshi ahuriraho insinga nyinshi, aho ano mapoto afasha mu kohereza umuriro w'amashanyarazi mu bice bimwe na bimwe bitandukanye byo mu Rwanda ndetse ababibona bagumya babyishimira kuko bavuga yuko byabafashije kubona umuriro w'amashanyarazi.

Ubukangurambaga burakomeje mu gihugu cy'u Rwanda aho bakomeje guteranya abantu bo mu ngeri zitandukanye ndetse babigisha uburyo bakoreshamo bategereje kwakira serivisi bakeneye.

Ibitaro bikuru bya Kaminuza biherereye mu Karere ka Huye mu mujyi wa Butare, akaba ari muri bimwe bikoreraho inzobere zikomeye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse bikaba binatanga serivisi nyinshi zinyuranye harimo izo kubaga, izo kubyaza ndetse n'izo kuvura indwara zidakira.

Zimwe muri gahunda za leta zigezweho harimo no kubaka bijyanye n'igihe, aho umuntu yubaka inzu ndetse ikaba ifite igipangu kiyizengurutse, kandi akaba afite n'umwanya ibinyabiziga bishobora kuba byahagararamo.

Gahunda yo gutaha inzu y'ababyeyi yari yitabiriwe na Minisitiri w'ubuzima ndetse n'abihaye Imana bari bamuherekeje ndetse ikaba ari inzu y'ababyeyi nziza, ikaba ndetse inafite imbangukiragutabara ifasha mu gutwara ababyeyi mu buryo bwihuse.

Bimwe mu bitaro bikomeye bivura amaso biherereye mu karere ka Muhanga ahazwi nka Kabgayi, bikaba bifasha abaza babigana kubaha serivisi zijyanye no kubasuzumira ndetse no kubaha imiti izabavura amaso.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara umuvuduko wihuse cyane mubuvuzi bwamaso, aho bazanye ibyuma bipima amaso mu buryo bworoshye kandi mu gihe gitoya. Ibi bikaba byaragabanyije umwanya abarwayi bataga bivu mu gihe bategereje ko babakira cyane ko hakunze no kugaragara ikibazo cy'abakozi bakeya.

Mu Rwanda ahazwi nko mu mujyi wa Kigali hakomeje kugaragara ubusitani bwiza, aho bugiye bugizwe n'ibiti ndetse bukaba bukikijwe na kaburimbo ndetse hakaba hari n'amazu ageretse meza cyane.

Igikoresho kiri mu ibara ry'umutuku, gikunze kuba kiri hafi y'inyubako, akaba ari igikoresho kizwi ku izina rya kizimyamwoto, aho kino bagikoresha kugira ngo barwanye inkongi y'umuriro mu buryo bwihuse ndetse ahantu hose hategetswe kuba bagifite, kugira ngo bakumire iyi nkongi.

Mu Rwanda ibitaro bikuru bya kaminuza bizwi ku izina rya CHUB, ni bimwe mu bitaro biri mu Karere ka Huye, bikaba bitanga serivisi z'ubuzima buteye imbere, aho abantu bafite ibibazo bikomeye ari ho babohereza kugira ngo bahavurirwe.

Zimwe muri gahunda za leta y'u Rwanda zigezweho, harimo na gahunda yo gushyiraho ibi moteri byabugenewe ndetse n'ahantu ho gushyira imyanda, akaba bifasha cyane cyane mu kurwanya ijugunywa ry'imyanda mu bice bitandukanye bitagenewe kuyishyiramo.

Mu Rwanda hashyizweho uburyo bworohereza abantu gukurikirana ibibazo bagize mu rukiko, aho bashyizeho amategeko agenga ibigo bimwe na bimwe aho mushobora kuyifashisha kugira ngo bagukemurire ikibazo mwagiranye mu buryo bugezweho kandi bwizewe.

Gereza yo mu gihugu cy'u rwanda iri mu mujyi wa kigali ikaba izwi ku izina rya dizi nefu sa taranti ,ikaba ari imwe mu magereza agororerwamo abantu bahamwe n'ibyaha bitandukanye nyuma yo gukatirwa n'inkiko, kandi akaba ari muri amwe akora akazi kayo neza kuko abavayo bivugwa yuko bagarukana ubwitonzi kandi n'ikinyabupfura.

Mu Rwanda hakomeje kugenda hatera imbere gahunda yo gukoresha mudasobwa ndetse na murandasi mu kwihutisha serivisi zitangwa ndetse abazikoresha bagumya bishimira yuko bibafasha kwakira ababagana neza.

Mu rwanda mu mujyi wa kigali ahazwi nka gereza ya nyarugenge ni imwe mu magereza afungirwamo abantu bahamwe n'ibyaha bitandukanye kandi abayazamo bazamo nyuma y'uko urukiko rumaze kubakatira igihano cy'ifungwa.

Abantu benshi bitabiriye inteko y'abaturage, aho bamwe baba bicaye ndetse baganira ku bibazo biri muri sosiyete, aho baganira uburyo babikemura ndetse bakigira hamwe n'ibyabateza imbere.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara gahunda zihuza abantu batandukanye, aho bicara mu nteko bakaganira ku buryo bateza imbere igihugu cy'u Rwanda, binyuze mu miryango ya Gisiyo gatolika harimo nk'Abasikawuti ndetse n'Abarejiyo ba Mariye.

Zimwe muri gahunda za leta aho bari barimo basobanurira abaturage ndetse n'abantu banyuranye uburyo bashobora kwifashisha bazimyamo umuriro kugira ngo birinde inkongi y'umuriro mu buryo bwihuse kandi bibafashe no kurinda ubuzima bwabo.

Mu rwanda hakomeje gutera imbere mu buryo bwo kwirwanaho, aho hari imodoka zabugenewe zifasha mu kuzimya ahantu hahuye n'inkongi y'umuriro ndetse abazibona bavuga yuko, zitabarira igihe kandi zikazimya iyo nkongi y'umuriro mu buryo bwihuse.

Ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro bizwi ku izina rya kizimyamwoto, bikaba ari bimwe mu bikoresho bikunda gushyirwa ahantu hahurira abantu benshi nko mu mazu, mu modoka ndetse no mu nsengero kugira ngo bijye bifasha gukumira inkongi y'umuriro mu buryo bwihuse.

Bimwe mu bikoresho bikunda kwifashishwa mu kuzimya umuriro bizwi ku izina rya kizimyamwoto, bikomeje kugaragara bishyirwa ku mpande z'amazu, aho abubaka izo nzu bavuga yuko bibafasha mu gihe cy'inkongi mu kubona ubutabazi bwihuse.

Mu rwanda serivisi z'umutekano zikomeje kuza ku isonga. Mu ziba zibasha gutanga serivisi nziza ku baturage bazo kandi ku gihe, aho bavuga yuko bashyiriweho uburyo bworoshye ushobora guhamagariraho ugatabarwa ku gihe, aho ukoresha umurongo ijana na cumi na kabiri, mu gihe uhuye n'ikibazo cyihutirwa bakabasha kwitaba kandi byibuze.

Bimwe mu bikoresho bizwi ku izina rya kizimyamwoto. Akaba ari ibikoresho bishyirwa ahantu hegereye amazu, ndetse akaba ateraniraho n'abantu benshi kugira ngo bibe byafasha mu kuzimya, inkongi y'umuriro, kandi mu buryo bwihuse kandi bakabikoresha nk'ubutabazi bw'ibanze.

Ibikoresho biri mu mabara y'umutuku ndetse n'ay'umukara bizwi ku izina rya kizimyamowoto, ni ibikoresho bikomeje kugenda bigaragara impande z'inyubako zitandukanye, kubera ko bifasha mu gihe habaye inkongi y'umuriro, kuba babasha kuyizimya byihuse kandi mu buryo bworoshye.

Bimwe mu bikoresho bifite amabara y'umutuku ndetse n'ay'umukara, bikunze kugaragara cyane ku mpande z'inyubako, akaba ari ibikoresho bizwi ku izina rya kizimyamwoto, bikaba bifasha kuzimya umuriro igihe habaye inkongi.

Icyapa kiranga ahantu sitasiyo ya polisi iri yo mu karere ka Nyarugenge, akaba hari agashami ka polisi yo mu muhanda ya Rwezamenyo aho batangira serivisi zitandukanye zijyanye n'ibibera mu muhanda.

Polisi y'u Rwanda yazanye gahunda yo kujya isuzuma ubuziranenge bw'ibinyabiziga aho bikorerwa ahantu hazwi ku izina rya controle tekiniki ndetse abagana iyi serivisi bakavuga yuko yagabanyije impanuka ziba mu muhanda kubera yuko ibinyabiziga byabo bisigaye bireberwa ubuziranenge ndetse bakaba babasha gukoresha nabo ibinyabiziga bizeye ko bimeze neza.

Mu Rwanda ni kimwe mu bihugu bikunze kurangwa n'imvura nyinshi ndetse n'inkuba, hakaba ari ho havuye gahunda yo gushyira imirindankuba ku mazu, aho bavuga ko iyi gahunda yagabanyije imfu zaterwaga n'inkuba mu turere dutandukanye dukunze kwibasirwa n'inkuba.

Igikoresho kizwi ku izina rya kizimyamwoto, kikaba ari igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro ndetse kikaba gikunda gushyirwa ku mpande z'amazu agiye atandukanye ahantu hahurira abantu benshi, kugira ngo kibe cyabafasha gukumira inkongi y'umuriro.

Bimwe mu bikoresho bizwi ku izina rya kizimyamwoto, bikomeje kujya bishyirwa ku mpande z'amazu, kugira ngo bijye biba byakwifashishwa ahantu hahurira abantu benshi, kugira ngo bibe byafasha mu kuzimya umuriro mu buryo bw'ubutabazi bwihuse.

Abantu bicaye hamwe nyuma yo kuba batabawe n'abashinzwe kuzimya inkongi z'umuriro aho hari haje imodoka zizimya ndetse zafashije mu kuzimya umuriro mu buryo bwihuse noneho ku bufatanye n'inzego z'umutekano bibasha kwihutishwa.

Mu Rwanda mu mujyi wa Kigali, aho hari amakaburimbo meza akikijwe n'ubusitani bwiza kandi hakaba hacamo ibinyabiziga bitandukanye, gusa harimo n'abacunga umutekano baba bareba ko umuhanda ndetse n'amategeko yawo byubahirizwa.

Icyapa cyamamaza aho kimenyesha abantu ko hari amatora y'abadepite ndetse bakabibutsa yuko bagomba kwitabira amatora kugira ngo bihitiremo neza abayobozi bazabasha kubayobora kandi bikaba bifasha abantu batandukanye kwibuka ko ahari bakabasha kubyitabira.

Idarapo ry'ishyaka rizwi ku izina rya FPR akaba ari umwe mu miryango imaze igihe ayoboye igihugu cy'u Rwanda, aho uhagarariwe n'umuyobozi mukuru uzwi nka nyakubahwa Paul Kagame, akaba ubu ngubu ari we perezida w'igihugu cy'u Rwanda.

Ni mu gihe cyo kwiyamamaza mu matora ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, aho uwamamaza yari afite ifoto y'umukandida w'ishyaka ryita ku bidukikije rizwi nka Green party witwa Frank Habineza, arimo amwamamaza yerekana ibigwi bye ndetse n'ibyo azageza ku baturage.

Inama yari yahuje nyakubahwa Paul Kagame ari kumwe n'umufasha we Jeannette Kagame, akaba ari inama yari yahuje ndetse n'abandi bayobozi bo mu nzego zikomeye za leta aho bareberaga hamwe ibyateza imbere igihugu cy'u Rwanda.

Nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, akaba yari yitabiriye inama ihuza urubyiruko ndetse n'abaminisitiri ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange, aho yari yishimiye kuba baramutoye ndetse ko bakomeje gufatanya mu iterambere.

Nyakubahwa Paul Kagame akaba ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda, hano akaba yari arimo yiyamamariza kugira ngo ayobore indi manda ndetse akaba yari yasuye abaturage bamukunda kandi bamwishimira, aho bari barimo bavuga ibyiza yabakoreye kandi na we ababwira ko bakiri kumwe azabageza ku bindi byiza birenze ibyo babonye.

Ubuyobozi bwiza bubereye abaturage biri mu bintu bikomeje gufasha kwihutisha iterambere, aho abaturage benshi bakomeje kuvuga ko ubuyobozi bwiza bishyiriyeho bubafasha cyane, aho babugereranya nk'ubuyobozi bwegereye abaturage.

Gahunda yo kwakira abayobozi bashyashya mu Rwanda aho baba bafite kurahirira ku kirangantego ndetse n'idarapo y'u Rwanda, aha ngaha bakaba bavuga y'uko bazakorera igihugu bitanze kandi batizigama.

Mu rwanda mu mujyi wa Kigali ahazwi nko ku gishushyu hateraniye inama ihuza abaminisitiri ndetse n'abasenateri n'abadepite kugira ngo bigire hamwe ibibazo rusange biri mu gihugu cy'u rwanda.

Ku Gishyushyu ahari Inteko Nhingategeko y'u Rwanda, hari hahuriye Abadepite n'Abasenateri bakoramo bambaye neza, abamama bakenyeye ndetse abapapa bambaye imyambaro izwi ku izina rya kositimu, barimo bafata ifoto y'urwibutso.

Mu Rwanda ahazwi umujyi wa Kigali hakomeje kugaragara imihanda igezweho aho hagiye hari ibisate bibiri cyangwa birenga bijya mu cyerekezo kimwe ndetse abakoresha umuhanda bakomeje kwishimira ko bibafasha kugabanya akavuyo ndetse n'urubunganzoka rw'imodoka.

M'u Rwanda imodoka zo mu bwoko bwa coaster zizwi ku izina rya rftc, zikomeje kuza ku isonga mu imodoka zifasha abakoresha umuhanda wa kaburimbo ndetse n'uw'igitaka kugera aho bagiye kandi bitabatindije kuko zikunda kujya ahantu hadakunda kujya imodoka nyinshi zindi.

Hamwe mu gihugu cy'u Rwanda mu hahagarara imodoka hazwi nka Nyabugogo, hakaba hakomeje guhurira urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, aho baba bava ahantu hamwe ndetse bajya n'ahandi, kandi bakaba bafite n'imizigo batwaye, aho bakunda gutega imodoka izwi ku izina rya Ritco kubera ukuntu ibafasha no mu gutwara imizigo.

Mu rwanda mu mujyi wa kigali mu karere ka nyarugenge ahegereye inyubako ndende cyane izwi nka siti tawa hakomeje kugaragara abantu benshi batandukanye ndetse n'amamoto n'imodoka bigenda muri kaburimbo ihari aho ba berekera mu kazi kabo gatandukanye.

Mu mugi wa kigali mu mihanda ya kaburimbo ikunzwe gukoresha cyane n'amakamyo, itwara ibintu biremereye bimwe biva hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ibindi bigenda bikwirakwizwa mu duce dutandukanye tw'u Rwanda, ndetse ano makamyo akaba azwiho kuba ashobora kuba yatwara ibiro byinshi cyane.

Sosiyete ikora mu buryo bugezweho mu gutwara abantu n'ibintu bizwi nka RITCO abantu benshi bakomeje kwishimira ko ari imwe mu masosiyete abaha serivisi nziza aho ushobora kugenda mu iyi modoka ndetse bakaguha n'ahantu utwara ibintu wagendanye ku buntu batakwishyuje.

Imodoka iri muri kaburimbo y'umujyi wa kigali, akaba ari imodoka izwi ku izina rya dayihatso, ndetse ikaba itwaye amakesi y'uruganda ruzwi nka bralirwa rukaba ari uruganda rukora inzoga ndetse n'amafanta.

Rumwe mu ruganda rukora ibijyanye n'amavuta yo kwisiga ruzwi ku izina rya Shine, ni rumwe mu nganda zikoresha imodoka zitwara ibicuruzwa byabo, zikaba zizwi ku izina rya Daihatsu ndetse bavuga ko zibafasha gukwirakwiza ibicuruzwa byabo mu buryo bworoshye kubabagana.

Abagenzi bakoresha amapikipiki mu mujyi wa Kigali bakomeje kwishimira yuko basigaye bafite imihanda myiza ndetse banakunze serivisi yaje ya mubazi, aho ubasha kwishyura umumotari wagutwaye bitewe n'ibirometero yagutwayemo.

Mu mujyi wa kigali hakomeje kugenda hagaragara urujya n'uruza rw'imodoka ndetse n'amapikipiki muri kaburimbo aho baba bagiye muri gahunda zabo zitandukanye kandi bakaba baca mu mihanda iri ahantu heza cyane aho igiye ikikijwe n'ibiti ndetse n'ubusitani bwiza.

Ahazwi nka gare ya Nyabugogo mu mujyi wa Kigali bikomeje kuvugwa ko imodoka zitwara ibintu n'abantu zizwi ku izina rya Hiyasi ziri mu modoka zimaze igihe kinini muri iyi gare, aho bavuga yuko byibuze ku kigereranyo cya mirongo inani ku ijana usanga umuntu wese uri muri iyi gare yarabashije kugenda muri iyi modoka.

Muri gare ya rusange yo mu mujyi wa Kigali. Hakomeje kugaragara imodoka zo mu bwoko bwa yutongo akaba ari imodoka, zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ndetse zikaba zifite n'ikoranabuhanga aho umuntu akoresha ikarita mu buryo bwo kwishyura kugirango abashe kugera aho agiye

Zimwe muri gahunda za leta y'u Rwanda harimo no kugira ngo bongere isuku igaragara mu mujyi wa Kigali aho bashyizeho abantu baza gutwara imyanda iba iri ahabugenewe bakunze kwita mu bimoteri ndetse bakayitwara bakajya kuyijugunya aho yagenewe.

Muri gahunda ya leta harimo kubaka amazu y'ubucuruzifite ahantu imbere imodoka zibona aho zihagarara, bikaba byarafashije abacuruzi benshi kubona uko ibicuruzwa byabo bibageraho byoroshye kubera imodoka zibizana zibona zihagarara, ndetse n'abaguzi bavuga yuko bagiye kugura ibintu babona ahantu bahagarara kugira ngo babigure.

Imihanda ya kaburimbo yubatswe mu buryo bugezweho, aho hari ibisateri bitandukanye aho amapikipiki imodoka ndetse n'abanyamaguru babasha kugenda neza, ikomeje kuza ku isonga mu mihanda myiza cyane ikomeje kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda.

Mu mihanda ya kigali aho harimo imihanda ifite ibisate bibiri ndetse n'akayira k'abatwara ibinyamitende kuruhande ndetse n'ak'abanyamaguru, akaba ari umuhanda ugendwa cyane n'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru.

Imihanda ya kaburimbo mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, hakomeje kugaragara urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'imodoka n'amapikipiki bikoresha uyu muhanda, kandi abantu bakaba bishimira ko ari umuhanda ufite amatara ndetse ukaba uherereye n'ahantu heza.

Mu mujyi wa Kigali hakomeje kugaragara urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'imodoka, aho baba barimo bakoresha umuhanda ndetse abantu bishimiye uburyo abashoferi b'imodoka boroherana na bo bakabasha kwambuka, ndetse n'abashoferi b'imodoka bishimira uburyo abagenzi baborohera, buri wese akabasha gukora ibyamuzanye kandi nta we ubangamiye undi.

Mu nkengero z'umuhanda wa kaburimbo ahakunze guhagarara imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, akaba ari muri hamwe izi modoka zikorerwa ndetse bakareba ko nta kibazo zahuye nazo mu gihe zari zirimo zigenda kandi akaba ari naho zirara.

Mu mujyi wa Kigali hakomeje kugaragara iterambere mu buryo bw'ingendo, aho hageze imodoka z'ubwoko butandukanye umuntu ashobora gutumizaho ikamujyana ahantu ashaka, akaba ari mu urwo rwego yitwa Yegokabu, akaba ari imwe mu masosiyete atangaye ino serivisi neza cyane.

Mu mujyi wa kigali muri kaburimbo yabo hakomeje kugaragara urujya n'uruza rw'imodoka zo mu bwoko butandukanye, aho harimo imodoka zikorera itumanaho ndetse n'itangazamakuru, harimo nk'imodoka za RBA ndetse zikaba zigenda zishaka amakuru.

Abacuruzi bacururiza mu duce dutandukanye tw'igihugu bakomeje kugenda bishimira ko imihanda ikomeje kugenda ikorwa neza, aho bibafasha gutwara ibicuruzwa byabo neza ntibyangirike, bikaba byarabafashije no kongera inyungu babonaga.

Muri gare yo mu mujyi wa kigali aho abagenzi rusange bategera imodoka zi izwi ku izina ryashyira umuteto mu gihugu cy'u rwanda kuko abagenzuzigenderamo niko bazise kubera bamwe muri bo bagenda bahagaze hakaba hari imodoka zitwara abagenzi ku giciro gito kandi bakoresha ikarita mu kwishyura.

Umuhanda wa kaburimbo wo mu mujyi wa Kigali ugizwe n'ibisate bine ndetse n'utuyira tw'abanyamaguru n'utw'amapikipiki, ku ruhande haragaragaramo imodoka zikora umuhanda zizwi ku izina ry'imodoka zivanga sima ndetse n'izindi modoka zisanzwe zitwara abantu ndetse n'amapikipiki.

Umwe mu mihanda myiza ya kaburimbo yo mu mujyi wa Kigali, ukikijwe n'ibyapa ndetse n'ibiti bitanga umwuka mwiza, aho wari urimo amapikipiki arimo agendamo ndetse n'amabisi atwara abantu mu buryo bwa rusange azwi ku izina rya KBS.

Abanyarwanda benshi bakomeje kwishimira ko mu Rwanda hageze gahunda y'imodoka zitwara abantu zikoresheje amakarita, aho zabafashije kugabanya amafaranga menshi bakoreshaga mu ngendo za buri munsi kandi bibongerera n'amahirwe yo kugera aho bagiye ku gihe bitabakereje cyane.

Mu mujyi wa Kigali muri kaburimbo, aho harimo abantu batandukanye barimo bawugendamo ndetse hakaba harimo n'imodoka yikoreye umucanga, ikaba izwi ku izina rya hoho, aho ari imodoka ibasha gutwara ibikoresho byinshi kandi biremereye.

Abantu bakenera serivisi z'ubwubatsi bakomeje kwishimira yuko ikorwa ry'imihanda ya kaburimbo bibafasha mu gutwara ibikoresho byabo by'ubwubatsi mu buryo bworoshye harimo nko gutwara amatafari bakoresheje imodoka aho bibageraho ku gihe kandi bitangiritse.

Abantu bacururiza mu mujyi wa Kigali ahazwi nka kafuri zone bakomeje kwishimira yuko ibihangano byaho bikomeje kubona abantu benshi babikunda kandi banabigura, cyane cyane abacuruzi bacuruza ibihangano by'ubugeni ndetse n'ibigaragaza umuco nyarwanda.

Zimwe muri gahunda za leta, harimo no kubaka ibibuga by'umupira w'amaguru bigezweho, aho amakipe atandukanye abasha kuba yahakinira kandi bikaba bifasha n'abantu basanzwe kuba bahahurira, bakahakorera izindi siporo zitandukanye kugira ngo bagorore umubiri.

Muri iyi minsi ibikorwa remezo birimo ibibuga by'imikino y'umupira w'amaguru n'iy'amabokoko biri mu bintu bikomeje guhangayikisha abaturage muri rusange aho bakomeje gushishikariza ubuyobozi kubaka ibibuga byinshi bishyashya kugira urubyiruko rugabanya kujya mu biyobyabwenge rujye rukoresha umwanya warwo neza rurimo rukina rwidagadura ndetse ruganira n'abandi.

Mu Rwanda mu karere ka Gasabo hazwi nka kafurizone, hakaba ari hamwe mu hantu hakunze kubera imyitozo ngororamubiri, aho abantu batandukanye bagenda banyuramo bakorera iyo myitozo, ndetse hakaba hari mu hantu heza cyane, umuntu wese ugeze mu gihugu cy'u Rwanda yasura.

Mu mujyi wa Kigali mu Rwanda ahazwi nko mu Kiyovu, hakomeje kugaragara imihanda iteye imbere ya kaburimbo ndetse ikaba ifite n'ibyapa bimurika ku ruhande, aho bifasha kuyobora ibinyabiziga bikamenya igihe bigendera ndetse n'igihe bihera umwanya ibindi.

Kimwe mu bimenyetso byo mu muhanda bizwi ku izina ry'icyapa, kikaba gifite ishusho y'umuzenguruko, kikaba gifite kandi ubuso bw'umweru cyanitsemo umubare mirongo itatu mo hagati, akaba ari icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa wa mirongo itatu mu muhanda.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpande enye akaba ari icyapa gifite umuzenguruko uri mu ibara ry'umukara ndetse kikaba gifite n'ubuso buri mu ibara ry'umuhondo, kikaba cyanditsemo amagambo abwira imodoka ko zigomba kugenda gakeya.

Icyapa cyo mu muhanda gifite umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'ubururu kirimo akarangantego k'umweru. Kikaba ari icyapa gitegeka aho gitegeka abakoresha umuhanda ndetse n'ibinyabiziga gukata bagana mu cyerekezo cy'ibumoso.

Icyapa gifite umuzenguruko w'ibara ry'umukara ndetse n'ubuso buri mu ibara ry'umuhondo, kikaba gifitemo ikimenyetso cy'umukara kimeze nk'icyerekezo kikaba kimenyesha abakoresha umuhanda ndetse n'abawugenderamo ,yuko bitewe n'inkomyi yavutse bashobora kuba bagiye kujya bahindura icyerekezo.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu gifite umuzenguruko w'ibara ry'umutuku ndetse n'ubuso bw'umweru n'akarangantego k'umukara kikaba ari icyapa kimenyesha abagendera mu muhanda ko imbere hari akayira k'abanyamaguru.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ubuso bw'ubururu ndetse n'umuzenguruko w'umweru, kikaba gifite ikirangantego cy'umweru mo hagati, kikaba ari icyapa gitegeka ibinyabiziga ndetse n'abagendera mu muhanda gukomeza mu cyerekezo cy'imbere.

Icyapa cyo ku muhanda gifite ishusho y'uruziga rwa mpande eshatu, gifite umuzenguruko w'ibara ry'umutuku ndetse n'ubuso bw'umweru, hagati kirimo agafoto ku mumama akuruye umwana, kikaba ari icyapa kiburira abagendera mu muhanda ko ahantu hakunda gukinira abana.

Icyapa cyo mu muhanda gifite umuzenguruko w'ibara ry'umutuku ndetse n'ubuso bw'umweru kikaba hagati gifite ikirango kirimo amatara atatu iry'umutuku iry'umuhondo ndetse n'iry'ubururu ndetse akaba ari icyapa kibwira abakoresha umuhanda yuko bagiye kugera ahantu hari ibimenyetso byaka.

Icyapa kiburira gifite umuzenguruko w'ibara ry'umukara, ndetse gifite ubuso bw'ibara rihishije, cyanditsemo amagambo mo hagati, akaba ari icyapa kimenyesha abakoresha umuhanda y'uko imbere bari kuvugurura.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umukara ndetse kikaba gifite n'ubuso bumeze nk'ibara ry'icunga rihishije kikaba hari icyapa cyerekana ko umuhanda imbere ugiye kugabanukamo igisate kimwe.

Icyapa cyo ku muhanda kiyobora, akaba ari kimwe mu byapa kigizwe n'ubuso bw'umuhondo ndetse n'ikirango cy'umukara kikaba ari icyapa kereka abayobozi b'ibinyabiziga ahantu bagomba kwitondera ndetse n'ahantu hatari aho gukatira.

Icyapa cyo mu muhanda wa kaburimbo kikaba gifite ishusho ya mpande enye ndetse gifite umuzenguruko w'ibara ry'umukara ndetse n'ubuso buri mu ibara rimeze nk'icunga rihishije cyanditsemo amagambo amenyesha abagendera mu muhanda yuko imbere bari kuvugurura.

Abanyarwanda benshi bishimira ko ibyapa byagezweho mu Rwanda, bibafasha mu kugabanya impanuka no kumenya uko imihanda imeze, urugero aho hari icyapa cy'umuhondo cyirimo akamodoka k'umukara cyashyizwemo cyerekana umuhanda mubi cyane ushobora kuba unyerera.

Mu mujyi wa Kigali, mu muhanda uva Remera ujya Kicukiro, hakomeje kugaragara akavuyo gaterwa n'imodoka nyinshi zikunda kuhagenda cyane cyane mu masaha ya mu gitondo.

Mu Rwanda mu nkengero z'imihanda ya kaburimbo hakomeje kugenda hashyirwa amapoto ariho ibizwi nka taransifo bikaba bifasha mu kugabanya cyangwa kongera umuriro ugera ku ngo z'abaturage kugira ngo ube ari umuriro utabasha guteza ikibazo na kimwe.

Mu Rwanda mu mujyi wa Kigali, hakomeje kugaragara iterambere ryihuse. Aho bitasize nyuma imyubakire, aho hakomeje kugenda hubakwa amazu ageretse inshuro irenze imwe, ndetse bikaba bikomeje kugenda bituma umujyi ugumya gusa neza ndetse unatera imbere mu buryo bwihuse.

Amwe mu mazu meza yo mu mujyi wa Kigali yo guturamo azwi ku izina rya aparitoma. akomeje kugenda akurura abantu batandukanye, bavuga y'uko bayakunda kubera ukuntu ari meza cyane, hakaba harimo iyakunzwe cyane yitwa Elizabeth golf, ikaba ari umuturirwa uri mu nkengero z'umujyi wa Kigali ahegereye kaburimbo ya Nyarutarama.

Mu rRwanda hakomeje kugenda hagaragara iterambere, ndetse rikaba riterwa no kuba ingufu z'umuriro w'amashanyarazi unyura mu masinga ukomeje kugenda ugera ku bice byinshi bitandukanye byo mu gihugu, ndetse akaba ari umuriro utwarwa n'amapiloni yabigenewe akabafasha mu kuwukwirakwiza.

Zimwe muri gahunda za leta zigezweho harimo kubaka amazu ajyanye n'icyerekezo, aho uwo umuntu yubaka inzu igezweho ndetse akaba ari inzu igeretse ifite n'ibidukikije bitanga umwuka mwiza imbere yayo.

Imwe mu mihanda yo mu Rwanda ukaba ari umuhanda ukikijwe n'ibiti ndetse ukaba wegereye amazu kandi ku mpande zawo hakaba hari ahantu imodoka zishobora guhagarara umwanya mutoya cyangwa umunini.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara iterambere mu myubakire y'amazu, aho abantu benshi bakomeje kubaka inzu igeretse rimwe, kandi ikaba ari inzu ifite igipangu kiyizengurutse, amatara amurika imbere yayo ndetse ikaba ifitemo n'ubusitani mu nzu mo imbere mu gipangu

Umujyi wa Kigali waje kugaragara ko amaserivise menshi yegerejwe abaturage, aho ushobora gusanga hari inzu ya etaje irimo amaserivise agiye atandukanye, harimo iz'ubwishingizi, iz'amafaranga ndetse n'iz'amabanki.

Amazu meza agezweho bakomeje kubakwa ahantu hatandukanye mu bice by'u Rwanda, aho bigaragara yuko ari kubakwa ahantu heza kandi hatangiza ikirere.

Mu Rwanda hakomeje kugenda hagaragara imyubakire y'inzu zigezweho ndetse kandi bigaragara ko umuriro w'amashanyarazi wagiye ugira ku mazu yo mu bice bigiye bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali, bitewe n'uko hari insinga nyinshi ndetse n'amatara aba yaka ku masaha ya nijoro.

Banki ya kigali ikomeje kuza ku isonga mu mabanki atanga serivisi nziza zijyanye n'ifaranga aho abaturarwanda benshi bishimira uburyo kubitsa no kubikuza muri iyi banki ya kigali byihuta cyane ugereranyije n'anyandi mabanki bari basanzwe bakoresha.

Mu Rwanda mu mujyi wa Kigali ahazwi nk'i Remera, hakomeje kugaragara iterambere mu bucuruzi, aho hari kugenda hubakwa imiturirwa myiza ndetse hakaba haca n'urujya n'uruza rw'imodoka ndetse n'abantu bagenda bajya mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali ndetse no mu turere dutandukanye tw'u Rwanda.

Mu gihugu cy'u Rwanda, hakomeje kugaragara iterambere mu myubakire, aho abaturarwanda benshi bamenye ibyiza byo kubaka amazu y'abo ahantu hatari mu manegeka kugira ngo babashe kwirinda ibibazo bigiye bitandukanye, birimo nk'imyuzure ndetse no kuba amazu yasenyuka akabagwaho.

I Kanombe mu mujyi wa Kigali, amatsinga atwara amashanyarazi, abantu bakomeje kwishimira yuko abafasha kubagezaho umuriro w'amashanyarazi, kandi uyu muriro bavuga yuko abaturage wabafashije mu iterambere ryabo rya buri munsi, kuko ubafasha mu bintu bitandukanye bya buri munsi, harimo nko gutuma imashini zabo zikonjesha zikora neza, bakabasha gucuruza neza bamwe muri bo.

Hakomeje kugenda hagaragara iterambere mu myubakire y'amazu agezweho, aho ano amazu ari kubakwa ahegereye umuhanda wa kaburimbo, akaba ari amazu ageretse rimwe kandi afite ibipangu byiza cyane ndetse akaba afite n'umuriro w'amashanyarazi.

Mu Rwanda mu mujyi wa Kigali, ku nkengero za kaburimbo hakomeje kugenda hubakwa amazu meza, aho ari amazu ageretse inshuro irenze imwe ndetse akaba anafite n'ibipangu bigera hejuru biyakikije kandi byubatswe mu buryo bugezweho.

Mu rwanda mu Mujyi wa Kigali, niho hakomeje kugaragara iterambere mu myubakire aho abantu benshi bakomeje kubaka amazu ageretse inshuro irenze imwe yo guturamo, ndetse akaba ari amazu ari ahantu heza cyane kuko hatari mu manegeka, kandi hakaba hari umuriro ndetse akaba ari no hafi y'umuhanda.

Abana biga mu mashuri y'incuke bakomeje kwishimira gahunda ibigo byabo byinshi byagiye bibategurira yo kujya mu minyenga ibashimisha ndetse ikabafasha no gusabana n'abandi bana aho bigaragara ko umwana wakuze akora ino mikino ibafasha gusabana bimufasha kwisanga muri sosiyete bitamugoye.

Imwe mu nzu yo gusohokeramo iherereye mu karere ka Gasabo mu Giporoso, akaba ari hamwe mu hantu heza wasohokera, aho habera ibirori bitandukanye by'imyidagaduro ndetse bakabasha no gucuruza ibyo kunywa bitandukanye cyane cyane higanjemo inzoga.

Mu Rwanda mu karere ka Gasabo hazwi nka Remera hakomeje kugaragara iyubakwa ry'amazu ya kijyambere, ndetse ajyanye n'igihe aho bakoresha ibyuma kabuhariwe mu kubaka ndetse bigafasha kuzura kw'aya mazu mu buryo bwihuse.

Mu Rwanda mu mujyi wa Kigali, inzu z'ubucuruzi zikomeje kugenda zakira udushami dutandukanye turimo utw'ubwishingizi, utw'amabanki ndetse n'utwa gahunda z'ingendo kugira ngo bafashe ababagana kubona serivisi zihuse kandi zibegereye.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibisate bibiri by'icyerekezo kimwe ndetse akaba ari umwe mu mihanda myiza cyane kuko ufite n'akayira k'abanyamaguru ku mpande ndetse ukaba ufitemo n'ibiti hagati, aho abantu bishimira uburyo uyu muhanda wakozwe neza.

Mu Rwanda mu mujyi wa Kigali, ahazwi nka Kimihurura hakomeje kugenda hagaragara iterambere ryihuse, aho abantu bakoresha umuhanda wa kaburimbo ndetse bakanubaka mu buryo bugezweho amazu ndetse hakaba hagaragara n'insinga nyinshi z'umuriro, zibasha gukwirakwiza umuriro ngo zihegereye.

Mu Rwanda mu mujyi wa Kigali, hakomeje kugaragara iterambere ryihuse, aho hari imihanda ya kaburimbo ijyanye n'igihe kandi ikaba ikikijwe n'ibyapa ndetse n'ibimenyetso bimurika, aho bifasha kuyobora abakoresha uwo muhanda.

Imwe mu mihanda yubatse mu buryo bugezweho iri mu Mujyi wa Kigali, akaba ari imihanda ikikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru ndetse hagati ikaba ifitemo n'inzira abanyamaguru bakoresha bambuka kandi ikaba ifite ibyapa bimurika bibasha kuyobora ibinyabiziga ndetse n'abagendera muri uwo muhanda.

u Rwanda ahazwi nko mu umujyi wa kigali hakomeje kugaragara imihanda myiza ya kaburimbo. Ikaba ari imihanda ikunze kunyurwamo n'ibinyabiziga bitari bike ndetse ikaba ari imihanda myiza cyane ifite amatara ku muhanda ndetse ikaba ikikijwe n'ibiti bituma umuhanda usa neza kuko binatanga akayaga keza.

Umuhanda wo mu mujyi wa Kigali ufite ibisate bibiri bijya mu cyerekezo kimwe, ndetse ukaba ari umuhanda ufitemo akayira k'abanyamaguru ku ruhande kawukikije ukaba ufite amatara awumurikira ndetse ukaba uzengurutswe n'ibiti ku mpande.

Mu rwanda mu mujyi wa kigali imihanda yabo ikomeje kuba ikoranye iterambere rigezweho aho iyo mihanda ikikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru kandi hagati hakaba harimo inzira zabugenewe abanyamaguru bashobora kuba bakambukiramo kandi ikaba ifite amatara ayimurikira ku mpande

Mu Rwanda mu mihanda yaho hakomeje kugaragara kwiyongera cyane kw'ibyuma bipima umuvuduko imodoka ziri kugenderaho, aho abakoresha imihanda benshi bakomeje kugenda bavuga yuko byafashije mu kugabanya impanuka kubera yuko imodoka irengeje umuvuduko ikagicaho, iki cyuma gihita kiyandikira bakayica amafaranga.

Imwe mu mihanda yo mu mujyi wa Kigali ikaba ari imihanda ya kaburimbo myiza ifiteye utuyira tw'abanyamaguru ku mpande kandi ikaba ikikijwe n'ibiti by'ubusitani byiza aho bavuga yuko biyongerera imyuka kandi n'abahagenda bagumya kwishimira uburyo isa neza.

Umwe mu mihanda ya kaburimbo yo mu mujyi wa Kigali ifite ibisate bibiri bigenderwamo mu cyerekezo cyombi ndetse ikaba inakikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru ndetse n'ibiti, ikaba kandi ifite n'amatara yo ku muhanda ayimurikira mu gihe cy'umugoroba.

Imihanda ya kaburimbo yo mu mujyi wa kigali, ni imwe mu mihanda ifite utuyira tugezweho tw'abanyamaguru, tuzwi ku izina rya zebura korosingi, ndetse ukaba ufite n'ibyapa bimurika bizwi ku izina rya feruge, aho byibutsa abanyamaguru cyangwag ibinyabiziga igihe byemerewe kuba byatambuka.

Imwe mu mihanda yo mu mujyi wa Kigali iri mu karere ka nyarugenge. Ikaba ari imihanda myiza cyane kandi igiye ifitemo utuyira tw'abanyamaguru. Aho babasha gucamo ibinyabiziga bikabaha inzira, kandi ikaba ikundwa kugendamo cyane n'imodoka ndetse n'amapikipiki.

Mu masangano y'umuhanda wa kaburimbo wo mu mujyi wa Kigali, hakomeje kugaragara urujya n'uruza rw'imodoka ndetse akaba ari umuhanda mwiza cyane ukikijwe n'ubusitani bw'ibiti ndetse ukaba ufite n'ibyapa biyobora abawugenderamo.

Mu mujyi wa Kigali hariyo imihanda myiza ya kaburimbo, akaba ari imihanda ifite ibisate bibiri bijya mu cyerekezo kimwe ndetse ikaba ifite n'utuyira tw'abanyamaguru mo hagati kandi ikaba ikikijwe n'ibiti.

Kaburimbo zo mu mujyi wa Kigali zikomeje gukorwa mu buryo bugezweho, aho kaburimbo irimo utuyira tw'abanyamaguru ndetse utwo tuyira tukaba dufite n'ibyapa bimurika, aho byereka ibinyabiziga igihe bigendera ndetse n'abanyamaguru nabo bakabasha kumenya igihe bambukira.

Mu Rwanda, mu mujyi wa Kigali, hari imihanda ya kaburimbo igezweho, akaba ari imihanda ifite utuyira tw'abanyamaguru ku mpande kandi ifite ibisate bigenderwamo mu byerekezo byombi. Ikaba ikunze kuba igaragaramo imodoka ndetse n'amapikipiki cyane.

Mu mihanda ya kaburimbo yo mu mujyi wa kigali hakomeje gushyirwa ahantu imodoka zihagarara umwanya muto mu nkengero z'uyu muhanda ndetse hirya yawo hakaba ari akayira k'abanyamaguru kandi na none iyi mihanda ikaba ikikijwe n'ibiti biyigira myiza ndetse ikaba ifite n'amatara ayimurikira mu masaha ya nimugoroba.

Mu Rwanda ibyapa bizwi ku izina rya foi rouge mu ndimi z'amahanga bigaragara yuko abanyamaguru ndetse n'abakoresha imihanda batwara ibinyabiziga bakomeje kwishimira uburyo bigenda bibafasha aho buri umwe bimuha umwanya we mwiza wo kuba yakambuka umuhanda.

Mu Rwanda mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge hakaba ari imihanda ya kaburimbo myiza, ndetse ikaba ari imihanda ikikijwe n'ibiti kandi ikaba ifite amatara agenda ayimurikira mu masaha ya nijoro, kandi ikaba inyurwamo n'ibinyabiziga byinshi ndetse n'abantu.

Imwe mu mihanda yo mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, ni imwe mu mihanda ifite ibisate bibiri binyurwamo mu byerekezo byombi, kandi ikaba ifitete utuyira tw'abanyamaguru twabugenewemo, hagati ikaba ikikijwe n'ibiti kandi ifite n'amatara ayimurikira mu masaha ya nijoro.

Umuhanda wo mu mujyi wa kigali unyurwamo mu byerekezo byombi ndetse ukaba ufite ibisate bibiri .Ni umwe mu mihanda myiza cyane ko ukoreshwa n'amapikipiki ndetse na romoruki ndetse kandi uyu muhanda ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane aho harimo ibiti bifite ibara ry'icyatsi ryiza.